Abana biga mu mashuri y'inshuke, biba bisaba kugira ngo ubazanire utuntu tubasetsa naho uzanye iby'abantu bageze mu cyiciro cy'amashuri yo mu mwaka wa gatandatu nta kintu na kimwe bashobora gutora.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke bazagere mu mashuri abanza bakomeza no mu yisumbuye bafite ubumenyi, ni byiza ko bahabwa imyitozo ngiro bakiri hasi bikabatwara kugeza basoje.

Umwana uri kumwe n'umubyeyi we, ari kumwereka umukoro ku ishuri babahaye. Ni umwana wiga mu mashuri abanza. Uyu mwana ari kwigaga kubara akoresheje impeke z'ibishyimbo ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ziri ku gishushanyo.

Inyubako nini cyane imwe mu zigezweho yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, wagera ku mashuri y'inshuke na bo ugasanga hari bimwe mu bikoresho bashobora gukoresha nk'ibyicungo.

Abana bo mashuri y'inshuke yaba abiga mu mwaka wa mbere wayo, uwa kabiri wayo n'uwa gatatu, bakwiye guhabwa imyitozo ngiro ku buryo ibatwara bagera mu mashuri abanza bagakomeza guhatana.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke kuva mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu wayo, baba bakwiye guhabwa imyitozo ngiro kugira ngo bazagere mu mashuri yisumbuye ndetse n' abanza bafite ubumenyi bufatika.

Abana bicaye hamwe biragaragara ko bari mu kiruhuko cya saa yine biga mu mashuri y'inshuke mu mwaka wayo wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, bari kumwe n'abarimu bari kugenda babitaho bababwira uko bakwiye kwitwara.

Mu rwego rwo kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke bazagere mu mashuri abanza bafite ubumenyi bubafasha kwiga, neza cyane bakumva ibyo bahabwa, ni ngombwa ko bategurwa neza binyuze mu myitozo ngiro.

Abana bahawe imyitozo ngiro mu mashuri y'inshuke mu mwaka wayo wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, usanga niyo bagezeho mu mashuri abanza, ayisumbuye bitabagora kuko bibatwara bakajya no muri kaminuza ari abahanga.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri biga mu amashuri y'inshuke babashe gukangura ubwonko bwabo byihuse, abarezi babo bagomba kwifashisha ibikoresho bigezweho, birimo ibikinisho byo guhekamo abana, utumodoka duto ndetse n'utugare.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke biba bisaba kubaguyaguya, kubera ko iyo bigumuye mu myigire yabo bishobora kubagiraho ingaruka no mu gihe kiri imbere mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza.

Imbuto zitandukanye zirimo amacunga, avoka n'imyembe, ziri hamwe, iruhande rwazo hari icyuma, bigaragara ko ari cyo cyagiye gikata buri rubuto mo kabiri kubera ko uretse avoka imwe ibindi byose binyujijemo umukebyo.

Abana biga amashuri y'inshuke baba bakeneye guhabwa imyitozo ngiro kugira ngo bazagere mu mashuri abanza bafite ubumenyi, bubafasha gukomeza amasomo nta kudindira cyangwa se ngo bazanasibire.

Mu gihe cya covid cumi n'icyenda, wasangaga kandagira ukarabe zikoreshwa cyane bitandukanye na nyuma y'uko icyorezo cyari kimaze kugabanuka. Kuri ubu usanga abana bo mu mashuri y'inshuke na bo batozwakaraba intoki nubwo icyo cyorezo kitagihari.

Mu byashyizwe imbere ntabwo bikorerwa abanyeshuri bo mashuri y'inshuke n'abanza gusa, bitewe nuko n'abana bigira ku marerero y'utugari na ho bafashwa kugira ngo bige neza gukaraba intoki.

Mu rwego rwo kugira ngo abana b’amashuri y’inshuke bazagere mu mashuri abanza kugeza no mu yisumbuye, ndetse banasoje za kaminuza, ni byiza kuba bategurwa hakiri kare, bikagendana n'amashusho berekwa ku kigero k'imyaka yabo.

Aya mashusho aragaragara ko ari imfashanyigisho yo mu mashuri abanza. Haragaragara umutaka, icyapa kiriho inyoni ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu mabara ashobora gukurura abo banyeshuri bagakurikira.

Amashuri abanza ubona ko agenda na yo avugururwa mu bijyanye n'inyubako ndetse n'ireme ry'uburezi rihatangirwa, iki kigo cy'amashuri imbere yacyo hari jaride hari n'igiti cy'inganzamarumbu, cyatuwe ku mwaduko w'abazungu.

Inyubako igezweho itandukanye n'iz'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigiragamo mu myaka yatambutse, zigomba gufasha abanyeshuri bazigamo kuzamura ireme ry'uburezi bwabo kugira ngo u Rwanda ruzabe rufite amaboko mu minsi iri imbere.

Mu rwego rwo gukomeza kunoza uburezi mu Rwanda, ni byiza ko hashyirwaho uburyo butandukanye bwo kwigisha abanyeshuri, hifashishijwe ibikoresho bifatika, birimo ibikoresho ushobora kuba wakwigiraho ubara cyangwa se ukoreraho ibizwi nka pulatike.

Amashuri abanza umusingi ukomeye abanyeshuri bawukura mu cyiciro cy'amashuri y'inshuke, yaba umwaka wayo wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, aho abarimu baba bakina nabo babaganiriza ariko bategurira kwiga ibyo twakwita ko biri hejuru y'urwego bamwe bavaho bajya ku rundi.

Mu Rwanda rwo hambere umuntu wabonaga inyubako igeretse, yumvaga ko igomba kuberamo ibitangaza ku rwego rudasanzwe. Gusa kuri ubu imyumvire yarahindutse kubera ko abanyeshuri bo mu mashuri abanza nabo basigaye bigira mu nzu zigeretse.

Umwana wize neza icyiciro cya mbere, akiga icyiciro cya kabiri ndetse n'icyiciro cya gatatu mu mashuri y'inshuke, usanga ubumenyi ngiro yahawe muri ayo mashuri gukomeza no kumuherekeza mu masomo ye yababanza kugera no mu yisumbuye.

Amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza agenda avugururwa aho bagenda bakuraho amabati yashoboraga kuba yateza ibibazo birimo na kanseri, aya mabati asigariye ku nyubako za Kiliziya ariko na bo bakangurirwe kuyakuraho vuba.

Amashuri kuri ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa ko bigira mu nzu zisanzwe kuko yaba abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, usanga inyubako z'amahetaje ari zo zigezweho.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri babashe kugira uburezi bufite ireme mu mashuri abanza n'ayisumbuye, ni byiza ko bahabwa ubumenyingiro mu mashuri y'inshuke yaba ikiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu cyayo.

Mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza usanga rimwe na rimwe iyo ari ku munsi wa nyuma wo gusoza igihembwe, abanyeshuri bose babwirirwa amanota hamwe ababaye indashyikirwa mu kigo bagahembwa ku buryo bushimishije.

Mu rwego rwo kugira ngo uburezi bukomeze gutere imbere, inzego z'umutekano ndetse n'izindi nzego zibifite mu nshingano zikomeza kuyihuza n'abaturiye ibigo by'amashuri kugira ngo bakomeze kureberwa hamwe icyateza imbere uburezi nyarwanda.

Abagore babiri n'umugabo biragaragara ko bari mu gihe cya Kovide cumi n'icyenda, abagore bombi bambaye udupfukamu tw'umweru, n'aho umugabo yambaye agapfukawa k'umukara, imyenda yambaye nayo birajyana kuko yose irasa n'umukara uretse agashati kajya gusa nk'ikigina.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza usanga abahanga muri bo baba baritaweho neza bakiri mu mashuri y'inshuke. Aha ni ukuvuga mu kiciro cya mbere cy'ay'inshuke, icya kabiri ndetse n'icya gatatu cyayo. Bityo bakagera mu mashuri abanza bafite ubumenyi buzira nta makemwa.

Mu mashuri abanza akenshi na kenshi usanga iyo biga imibare bakunda kwifashisha ibishushanyo. Aha hari ibiziga bibiri bigaragara ko kimwe ari ikindi ari b, hagati aho bihurira abari muri a na b. Ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kunoza ireme ry'uburezi.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho byifashishwa n'abarimu bo mu mashuri abanza by'umwihariko ay'inshuke, hariho udukoresho turimo imodoka, utumoto ndetse n'utugare abana bifashisha bacunga.

Mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kumenya buri kimwe cyose by'umwihariko abiga mu mashuri abanza, hibandwa cyane ku by'ibanze iyo bigishwa ibice bigize inzu, babikora berekwa igishushanyo.

Inziga ebyiri zifashishwa mu kwiga imibare, rumwe ni a urundi ni b zahurijwe hamwe maze hagati aho zihurira bahita muri a na b. Imibare iba irimo aha ngaha bivuze ko iba iri hamwe n'ahandi.

Mu rwego rwo kwimakaza uburezi burambye mu Rwanda, usanga abanyeshuri bahabwa imyitozo ngiro kugira ngo nibagera mu mashuri yisumbuye bazabashe kuba bafite ubumenyi, bubafasha gukomeza amasomo yabo badategwa.

Mu rwego rwo kwimakaza uburezi ni byiza ko buri munyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye ,aba afite imfashanyigisho ye ndetse agakurikira mwarimu mu gihe ari kwigisha, bityo yazagera muri kaminuza ntagorwe n'ibyo atabonye hasi.

Mu rwego rwo kugira ngo uburezi bukomeze kugira ireme mu Rwanda, abarimu ndetse n'abashinzwe uburezi muri rusange bagenda bashyiraho uburyo bushya bw'imyigishirize, aho usanga buri mwana wese aba agomba gukora ku bikorwa mu myitozo ngiro.

Umunyeshuri wahawe imyitozo ngiro akiri mu mashuri y'inshuke n'iyo ageze mu mashuri abanza n'ayisumbuye, bikomeza kumutwara kugera asoje kaminuza akavamo umuturarwanda ubereye igihugu.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'uburezi bufite ireme, ni byiza ko abana biga bo mu mashuri y'inshuke, mu cyiciro cyayo cya mbere, icyiciro cyayo cya kabiri ndetse n'icyiro cyayo gatatu bahabwa ubumenyi ariko hibandwa ku bumenyi ngiro.

Mu rwego rwo kwimakaza uburezi bufite ireme mu Rwanda, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka ikenda. Ibonye ko bwatangiye gutanga umusaruro ishyiraho n'uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri.

Abagabo basaga umunani bahagaze mu muhanda rwagati aho umwe yambaye ijire y'umuhondo bigaragara ko ashinzwe umutekano, ari kugenda abayobora aho bagomba kunyura buri wese mu cyiciro cye.

Mu mashuri yisumbuye ntabwo bikiri ngombwa ko abanyeshuri barindira kugendana ibitabo ndetse n'amakayi, bashobora kuyasiga mu ishuri, hanyuma bagashyiraho uburyo bwo kujya bafunga kugira ngo hatazagire ubinjirana bitewe n'uko haba harimo na porejegiteri umwarimu akoresha.

Mu rwego rwo kugira ngo uburezi bukomeze kugenda neza bitewe n'ubumenyi ngiro abanyeshuri babarakuye mu mashuri abanza, iyo bagezeho amashuri yisumbuye, batozwa gukorera mu magurupe. Ibi ngibi bikabatwara kugeza basoje amasomo yabo.

Mu mashuri yisumbuye kuri ubu bitewe n'abanyeshuri benshi bigamo, ntabwo mwarimu agipfa kuvuga gusa adafite indangururamajwi kuko yakumvwa na bake ab'inyuma ntibagerweho.

Mu mashuri yisumbuye kugira ngo umwana abashe gutsinda neza, ni byiza ko uburezi bwe bugomba guhera hasi. Umusingi wa mbere ugomba guhera mu mashuri y'inshuke, yaba icyiciro cya mbere, icya kabiri ndetse n'icya gatatu cyayo.

Mu rwego rwo kwirinda inda ziterwa abangavu zishobora gukurura ibibazo bitandukanye mu miryango ndetse no guta amashuri ku bazitewe Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bugamije guhangana n'iki kibazo mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye usanga kenshi na kenshi iyo bagiye gusoza ibizamini bya leta, bafata amafoto y'urwibutso kugira ngo ubwo bazaba bageze mu buzima bwo hanze abandi baragiye kwiga muri za kaminuza, bajye bibuka inshuti zabo.

Mu mashuri yisumbuye biragoye kubonamo umwana w'umukobwa ushobora kugerayo atarakingirwa Kanseri y'inkondo y'umura kubera ko ibi biba ku myaka cumi'ibiri yonyine kandi kugira ngo ubu ugeze mu mashuri yisumbuye nibura, ukaba usaba kuba ufite imyaka cumi n'itatu.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye usanga imyumvire yabo iba itandukanye n'iy'abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ay'inshuke, ni nayo mpamvu leta akenshi na kenshi iyo igiye gushyiraho ibikorwa by'ubukangurambaga aribo yifashisha.

Abana biganjemo abakobwa by'umwihariko, inyuma yabo hari n'abahungu, abakobwa bambaye imyenda isa n'iy'imfungwa n'abagororwa kuko iri mu ibara ry'iroza.

Abanyeshuri, ababyeyi bahuriye mu gikorwa kimwe aho aba banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ababyeyi babo babasuye ku ishuri mu nama yateguwe n'ikigo, hanyuma nyuma y'uko babahurije hamwe baza gukora siporo ngororamubiri.

Mu byigishwa mu mashuri yisumbuye haba harimo ibyiga ku buzima ndetse n'ibigaruka ku buzima bw'imyorokere muri rusange, aho buri wese asobanurirwa uko umubiri we ugenda uhindagurika.

Biragaragara ko uyu munyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye, akaba ari gusobanurira ababyeyi batandukanye baje mu nama y'abana babo ibijyanye n'isuku mu rwego rwo kwirinda ko hagira ufatwa n'indwara zituruka ku mwanda.

Kaminuza nyinshi zo mu Rwanda yaba izigenga n'iza Leta, usanga buri kaminuza ifite isomero rusange, aho abanyeshuri bashobora kujya bakiyungura ubumenyi, basoma ibitabo byanditswe n'abahanga mu myaka yo hambere ndetse n'iy'ubu.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe, buri umwe yicaye ku ntebe ye, imbere ye afite imashini, udafite imashini afite ikayi ari kugenda a yanyandikamo. Hari n'abari gukoresha terefone bitewe n'uko imashini kuzibona byari kubahenda.

Inzu nini cyane bigaragara ko yigirwamo n'abanyeshuri, iragaragara nk'aho ari iyo mu Karere ka Huye, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro, bakaba barize imyuga mu mashuri yisumbuye.

Amashuri makuru na za kaminuza usanga ari hamwe mu haba hari ibikorwaremezo bifatika, ku buryo abahiga badashobora kugira ikibazo na kimwe bataka muri ibyo byose, aha ngaha biragaragara ko mu by'ukuri hariho amapave ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Imbaga nyamwinshi iteraniye mu cyumba cy'inama biragaragara ko ifite ibyo iri kwigaho, ikigaragara cyo ni uko yateraniye mu nzu za Kaminuza y'u Rwanda, aha ngaha inshuro nyinshi usanga bafite purojegiteri, ku buryo amashusho aba agaragarira buri umwe wese.

Inanasi nini cyane ubona ko yatewe mu ifumbire igakura neza, iriruhande rw'imineke, amagi, inanasi ndetse n'amacunga, ibi byose ni imbuto ushobora kurya mbere na nyuma yo kurya.

Mu rwego rwo kwimakaza uburezi burambye kandi bufite ireme muri kaminuza y'u Rwanda, usanga abanyeshuri biga mu bijyanye n'ubuzima, hari ubwo bajya kwigira ku mirambo iba iri mu buruhukiro bw'ibitaro.

Muri kaminuza nyinshi zitandukanye yaba kaminuza y'u Rwanda, yaba kaminuza y'ubumenyingiro, usanga harimo ibikorwa bisa n'aho ari iby'ubugeni bitewe n'uko abanyeshuri bigamo bicara bavumbura.

Umuhanda wa kaburimbo ugana kuri kaminuza y'u Rwanda ushashemo amapave haparitsemo imodoka ya ambulance izwi ku izina ry'imbangukiragutabara mu rurimi rw'ikinyarwanda, ikaba yifashishwa mu gutwara abarwayi bafite ibibazo byihutirwa.

Umunyeshuri wize neza agasoza amasomo ye ya kaminuza, afite mikoro ku munsi we wa graduation. Yambaye ikanzu ndetse n'ingofero. Gusa biragaragara ko atishimye bitewe n'uko ari ibirori bibaye mu gihe cya Covid cumi n'icyenda.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu ishami ry'ubuzima barimo bariga ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere aho bari gukora ubushakashatsi banarebera hamwe igitera impfu ziterwa n'imirire mibi.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye hamwe bari gukora imyitozo bahawe n'abarimu babo. Aba banyeshuri kandi, uretse kuba biga muri kaminuza y’u Rwanda, usanga n’abiga mu mashuri y’ubumenyi ngiro, azwi nka IPRC, nabo ariko bakora imyitozo yabo.